Umugabo wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero, ahetse ipombo ari gutera umuti imyaka.

Abagabo batatu bambaye ingofero mu mutwe, bipfutse no mu maso, bahetse amapompo, bari gutera imiti mu muceri.

Umugore ari mu murima we w'ibigori, ndetse ari gutera umuti mu bigori yifashishije ipombo ahetse mu mugongo.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'ubururu ndetse na bote. Bari mu murima w'ibigori, bahetse amapombo manini. Bari gutera imiti yica udukoko mu bigori.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, afite n'umusatsi uzirikiye inyuma. Ahetse ipombo ari gutera umuti ibihingwa by'amashu.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru ahetse ipombo ari kuyikoresha atera umuti imyaka.

Umugabo wirabura usutamye, arishimye cyane kubera umusaruro w'amafi ye, ndetse ari imbere y'icyuzi cy'amafi yiwe, akaba ari kwerekana ukuntu amafi ari meza.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara afite igiti mu ntoki ndetse yambaye n'isaha, inyuma ye hari ibyuzi by'amafi ndetse ubona ko ari we ubirinze kandi ni we nyirabyo.

Aha turahabona inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati ari mu ibara ry'umweru n'ubururu, hirya yayo hari ibyuzi byinshi by'amafi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umweru. Afite ifi nini y'isamake avuye kuroba.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza iyo bwitaweho butanga umusaruro ushimishije, aha turahabona icyuzi cy'amafi ndetse hari umugabo wicaye hejuru, wambaye isarubeti ndetse n'inkweto z'umuhondo, akaba ari kwita kuri ayo mafi.

Ubworozi bw'amafi n'ubworozi butanga umusaruro iyo bwitaweho bukaba bukorerwa ahantu mu kibaya, aha turahabona icyuzi cy'amafi ndetse ubona y'uko ari icyuzi cyiza kirimo n'amafi.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru afite igifi kinini mu ntoki, ari kwerekana umusaruro w'ubworozi bw'amafi ndetse ubona y'uko yishimye ari gufata ifoto.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi butanga umusaruro iyo bwitaweho. Aha turahabona umugabo wambaye isengeri ndetse n'ipantaro y'umukara afite igifi kinini mu ntoki ze. Imbere ye hari ibyuzi by'amafi.

Ubworozi bw'amafi, aha turahabona ifi nziza z'isamake, ziteye ubwuzu ndetse ubona yuko zishimishije ku buryo umuntu wese urya amafi yazibona akazifuza.

Ni ibyuzi bibiri by'amazi, bikorerwamo ubworozi bw'amafi. Hicaye umwana ubirinze, kugira ngo hatagira abantu baza kuhangiza.

Icyuzi cy'amafi kirimo amafi menshi yiganjemo inshonzi ndetse n'isamake, n i amafi akiri matoya atarakura, ubona ko namara gukura azatanga umusaruro.

Umworozi w'amafi ari imbere y'icyuzi cye aho yororera amafi afite akabasi karimo umuti w'amafi ndetse afite n'agasahane ari gukoresha agenda anyanyagiza mu mazi kugira ngo amafi ye amere neza.

Abantu benshi biganjemo abagabo, harimo abagabo babiri bambaye ubusa hejuru umwe ari mu mazi undi afashe ikintu bifashisha baroba, ikigaragara cyo bari mu gikorwa cyo kuroba amafi.

Abagabo babiri bishimye hagati yabo hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'agasharupe bari gusarura ikawa zeze zitukuye, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Umumama wambaye igitambaro cy'umutuku ndetse n'agapira karimo amabara y'umukara, ndetse n'umuhondo ari gusarura ikawa zeze.

Aha ni mu murima w'umuceri, aho abantu batandukanye bari gusarura umuceri, bifashishije ibikoresho byabugenewe, birimo nyanjoro ndetse n'utundi tuntu bawushyiramo.

Ikawa nyinshi zisutse ahantu hamwe, nikawa zeze kandi zitukuye, hari akabasi gateretsemo nako karimo ikawa ariko zifite ibara ritandukanye n'izisutse hasi. Hari ibiganza by'umuntu utagaragara, biri gutoranyamo ikawa zimeze nabi bagasiga inziza.

Ni ibiganza by'abahinzi bitandukanye birimo kwerekana umusaruro w'ikawa nziza zitukuye zeze.

Abantu biganjemo igitsina gore bafite indobo, abandi bafite udutebo, bakaba bari gusarura ikawa, ubona y'uko bishimiye umusaruro wabo.

Abantu batandukanye, barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse ibifuka birimo ikawa, bafite n'izindi kawa mu ntoki zabo, aho bari kwerekana umusaruro bagize.

Agatebo gateretse ahantu kakaba karimo ikawa zeze zitukuye ndetse ubona yuko ari ikawa nziza, bakaba bazishyizemo hano mu buryo bwo kugira ngo berekane umusaruro w'ikawa.

Umugore ufite isuka, ari gutera igihingwa cyitwa umuceri. Ni igihingwa giterwa ahantu mu kibaya hari amazi menshi, umuceri iyo wize ukaba utanga umusaruro ushimishije.

Ni mu murima w'umuceri, hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe n'agapira k'umukara, afite nyanjaro ari gusarura umuceri. Inyuma ye hari abantu babiri ,barimo umugabo ndetse n'umugore inyuma ye.

Umuntu utagaragara neza akaba afite agatebo ndetse bigaragara y'uko ari gusarura ikawa, afite ikawa mu kiganza cye ikawa zeze zitukuye kandi zishimishije kuzireba.

Abantu benshi batandukanye baje muri pipiniyeri aho baje gushaka umusaruro w'ikawa, bose bari gupakira ikawa kugira ngo bajye kuzitera.

Ibikarito byinshi ndetse n'indobo zirimo imiti itandukanye y'amatungo, hakaba hari ibidobo bishushanyijeho inka, bigaragara yuko ari imiti yifashishwa mu kuvura inka.

Ibikarito byinshi bitandukanye biri mu mabara atandukanye birundanyije ahantu hamwe mu iduka, ibi bikarito bikaba birimo imiti y'amatungo avura indwara zitandukanye.

Ibikarito byinshi bitandukanye, birunze ahantu hamwe, ni ibikarito birimo imiti y'amatungo, bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibikarito byinshi ndetse n'uducupa byose birimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo indwara zigiye zitandukanye ziyafata.

Nk'uko bigaragara ku cyapa, aya ni amacupa cumi n'abiri, agizwe n'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Iyi akaba ari imiti y'amatungo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amashashi atandukanye arimo imiti y'amatungo, ndetse harimo imiti y'ibiro bibiri ndetse n'ibiro byinshi. Hari ishashi imwe ishushanyijeho inka, byumvikana y'uko uwo muti ari uw'inka.

Ibishashi byinshi birunze ahantu hamwe, birimo imiti y'amatungo ivura indwara zitandukanye, amatungo arimo inka, ihene, intama, ndetse n'ibindi.

Aha turahabona umugabo uri gucunga igare, ahetse inkwi ndetse n'igitiyo, inyuma ye hari undi mugabo wambaye bote, ufite n'umuhoro mu ntoki.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa cy'umweru ndetse cyandikishijeho amagambo y'umukara n'ubururu. Icyo cyapa kiriho inka ishushanyije iri mu mabara y'umweru n'umukara, ndetse n'amagambo avuga ngo Nyagatare deyili famazi yuniyoni NDFU.

Umugabo uri gucunga igare ahetseho ibiti byinshi ari kugenda ahantu mu byatsi byinshi ndetse ubona ko ibiti ahetse byamuremereye cyane.

Inka nyinshi zitandukanye, zifite amabara yiganjemo umweru, umukara ndetse n'ibihogo, zakusanyirijwe ahantu hamwe, kugira ngo zihabwe inkingo zitandukanye.

Inka ziganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, zambaye n'amaherena y'umuhondo zirahutse zigiye kurisha.

Abahinzi babiri b'abagabo bafite amasuka ku ntugu zabo, bagiye guhinga, ndetse ubona yuko babyishimiye kandi bafite n'imbaraga.

Abahinzi b'umuceri, bari gusarura umuceri wabo, ndetse ubona y'uko bishimiye umusaruro wabo. Ni abahinzi benshi biganjemo abambaye imyenda y'imikara.

Abahinzi bari mu murima biganjemo abagabo ndetse n'umugore umwe wikoreye ibiti, bari kugenda bigaragara yuko bavuye mu kazi cyangwa bari kukajyamo.

Inka nyinshi zifite amabara yiganjemo umukara, umweru ndetse n'ibihogo, ziri kurya aho ziri kurira mu gasanduku kazo baziheramo ubwatsi imbere yazo hari abantu bazireberera.

Umugore n'umugabo bari mu murima w'ibigori, bari kubibagara ,barahagaze, bari kuruhuka ndetse bari kureba ibigori byabo ukuntu ari byiza bitohagiye.

Ibigori bisa nk'ibyumye byatemwe birundanywa hamwe ahantu ku butaka. Bitegereje ko baza bakabikora neza, bakabyanika bakabivungura, ubundi bakabiryamo impungure.

Ni igiti k'isombe kifashishwa mu guteka aho bayifata bakayisekura cyangwa bakayisya ubundi bakayiteka bakayirisha ibintu bitandukanye.

Igihingwa cy'imyumbati, imyumbati ifite isaso ikaba iri hafi kwera ndetse imyumbati bakaba bayitekamo isombe bifashishije ibibabi byayo.

Ibihingwa byitwa amashu, biteye ahantu hamwe ku murongo, ahantu mu gishanga. Ni ibihingwa bitohagiye kandi ubona yuko bizatanga umusaruro.

Aha turahabona umusaruro w'ibirayi, ibirayi ni igihingwa cyiza ndetse iyo kitaweho, gikura neza kigatanga umusaruro ushimishije kandi ibirayi bikaba biryoha cyane.

Ni mu muhanda w'igitaka ahantu mu giturage, aho mu mpande z'uwo muhanda harimo ibihingwa bitandukanye, birimo amasaka ndetse n'urutoki. Muri uwo muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu bari kuwugendamo.

Igiti cy'umumbati witwa gacyari kiraribwa kuko imyumbati yacyo ntabwo irura, hasi yacyo hari ibiti bitemaguye byumye.

Ni ahantu mu kibaya harambitse hameze neza hari, urutoki rwinshi rumeze neza rusasiye ndetse rutohagiye.

Igihingwa cy'umuceri, umuceri weze ndetse ukeneye gusarurwa, ukaba ari umuceri uhinze ahantu mu kibaya ndetse ubona y'uko watanze umusaruro ushimishije.

Ni mu murima w'ibigori byinshi kandi byeze, bimwe bamaze kubitema ibindi biracyahagaze mu murima nabyo bitegereje gusarurwa. Ibigori bitanga akawunga, ndetse akawunga kakarikwamo ubugari bwo kurya.

Ibisheke byinshi bicucikiranye, bigaragara nk'ibyeze, bimwe muri byo byazanye n'indabyo hejuru.

Ibihingwa birimo idodo ndetse n'imyumbati biteye ahantu hamwe imbere yabyo hari ibyatsi byahameze ni ibihingwa ubona y'uko ari byiza kandi bitohagiye.

Ni ibyatsi bimeze nk'urubingo rugaburirwa amatungo ariko ibi byatsi bikaba byitwa ibisheke, ibisheke bihingwa ahantu hatandukanye, aho byifashishwa mu gukorwamo isukari ,si ibyo gusa kandi n'abantu barabirya.

Ishyamba ryiganjemo ibiti byinshi by'amoko atandukanye, ni ishyamba ripfukiranye cyane ku buryo ushobora kujyamo ukaburiramo.

Ni ishyamba rinini ririmo ibiti bipfukiranye by'inturusu ndetse n'ibihuru, imbere yaryo hakaba hari utuzu dusakaje amabati, ndetse tukaba twubakishije ibiti.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bitandukanye by'inturusu rimeze neza, imbere yaryo hari udutsina tuhagaragara.

Amakarito menshi atandukanye arimo ibintu bitandukanye, imbere muri zo hakaba hari ikarito irimo igihingwa cyitwa avoka.

Igihingwa cyitwa inanasi, ni igihingwa cyiza ndetse kiryohera. Iyi nanasi iragaragara nk'iyenda kwera, ariko ntago irera neza. Hari n'izindi nyinshi zigiye ziri imbere yayo.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira, ari imbere y'umurarasire w'izuba, aho yamitse ku zuba kugira ngo izuba riwurarasireho maze utange ingufu z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, afite itiyo y'amazi ari kugenda avomerera ubutaka kugirango bworohe babuhinge.

Umugabo ahagaze mu murima we, ari gukoresha itiyo muburyo bwo kuvomerera imyaka kugirango imere neza, inyuma ye hari urutoki rwinshi rw'insina.

umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite isuka mu ntoki, ari kuvomerera imyaka akoresheje agasahane, aho ari kudaha amazi ayatera mu myaka.

Umurima w'ibigori uteretsemo imashini ibivomera, hirya hari abantu benshi bari kubibagara, hirya yabo nanone hari urutoki rw'insina nyinshi.

Umugabo wambaye umupira w.icyatsi, witeye agashati ku rutugu, afite n'akababi mu ntoki, ari kuvomerera akoresheje igihombo cy'amazi.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ingofero n'umupira w'umuhondo, bari kuvomerera bifashishije itiyo y'amazi. Bari kuvomerera igihingwa cyitwa intoyi, hirya yabo hari urutoki rwinshi.

Umugore wambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'igitambaro cy'umukara, afite rozwari mu ntoki ari kuvomerera imyaka, inyuma ye hari ibiti bitandukanye ndetse n'abandi bantu.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, ishati y'umukara ndetse n'ipantaro ijya gusa nk'umweru afite rozwari ebyiri mu ntoki ari kuvomerera imyaka.

Umugabo ari mu murima afite itiyo y'amazi akaba ari kuyifashisha avomerera imyaka kugira ngo imere neza, hirya ye hari abandi bantu bari mu kazi gatandukanye hari n'urutoki.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara ari kuvomerera yifashishije itiyo y'amazi. Aho ari kuvomerera ubutaka kugira ngo bworohe maze babuhinge cyangwa babuteremo imyaka. Hirya ye hari urutoki rutohagiye.

Amatiyo y'amazi arambitse mu bihingwa ndetse ayo matiyo ari kugenda avomerera ibyo bihingwa. Ni uburyo bugezweho bwo kuvomerera. Aho nta bantu barimo ngo bavomererere ahubwo biri gukorwa n'ayo matiyo arambitse mu mirima.

Umugore wambaye ingofero y'umukara mu mutwe, ahetse umwana, ari kuvomerera akoresheje itiyo y'amazi, inyuma ye hari umugabo ufite amatiyo menshi, inyuma yabo hari abandi bantu benshi na bo bari kuvomerera.

Ni umuhanda w'igitaka ukomeza imbere, hirya no hino yawo hari ibiti by'ibihuru, ndetse ubona yuko ari umuhanda ukeneye gukorwa ugashyirwamo kaburimbo, n'ibihuru biri imbere yawo bigatemwa hakubakwa amazu atandukanye.

Inka ifite ibara ry'ibihogo n'umukara, yambaye iherena ry'umuhondo, iri kureba inyuma, iri mu kiraro yonyine, itegereje yuko bayiha ubwatsi.

Inka ifite, amabara yiganjemo, ibihogo ndetse n'umweru. Ifite iherena ry'umuhondo, iri ahantu yonyine, isa nk'itegereje yuko bayiha ubwatsi.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko, hano turahabona inkoko z'amabara atandukanye, ziri mu nzu yazo, ziri kugaburirwa.

Inka z'ibihogo ziteze amahembe imbere yazo hari abaveterineri bambaye imyenda itandukanye, umwe w'umukobwa uhagaze hagati yambaye itaburiya y'umweru ndetse na bote z'umweru, abandi bahagaze ku ruhande bambaye amataburiya y'ubururu.

Inka nyinshi zifite amabara atandukanye ziri ahantu ziri kurisha ndetse inyuma yazo hari umugabo ufite kamera ari kuzifotora.

Ubworozi bw'inkoko aho inkoko ziri aho zororerwa, zikaba ziri kurya ibiryo byazo, zikaba ziri kubirira mu bintu by'utudobo.

Itungo ryitwa ingurube ryororerwa mu rugo riri kumwe n'ibyana byayo, ibyana byayo biri kuryonka ndetse iyo ngurube yabiretse biridagadura bironka.

Inka y'umutavu igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'ibihogo, yambaye ihena ry'umuhondo, iryamye mu kiraro cyayo.

Inka y'ibara ry'umukara ifite iherena ry'umuhondo, iri mu kiraro cyayo ndetse ikaba itegereje ubwatsi, ubona yuko ari inka nziza ishobora kuba itanga umukamo.

Itungo ryororerwa mu rugo rikaba ryitwa ingurube, rifite ibara ry'umweru riri ahantu hari ibintu by'ibarizo ndetse rikaba ritegereje y'uko bariha ibyo kurya.

Umugabo utagaragara isura ufite ibiganza byirabura, afite ibishyimbo mu ntoki ari kwerekana ibyamunzwe ndetse n'ibizima.

Ibiganza byirabura, by'umuntu utagaragara isura, bifashe ikawa, aho biri kwerekana umusaruro w'ikawa, n'ikawa zumye nziza kandi zibereye kureba.

Ibiganza bitandukanye byose bifite umuceri, biri kwerekana umusaruro w'umuceri ndetse ubona ko ari umusaruro mwiza, ni umuceri wumye ndetse weze.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru ndetse n'ishati irimo amabara y'umutuku n'umweru, ari kwerekana umusaruro w'ibishyimbo ndetse ibyo bishyimbo bikaba biri mu cyibo.

Aha turahabona udufuka tugiye turimo imbuto zitandukanye zirimo ibishyimbo ndetse n'ibindi zose zikaba ari imbuto ziterwa mu butaka zigatanga umusaruro.

Ni mu ibagiro aho ababazi bahagaze mu ibagiro, abandi bari gutunganya inyama. Ni inyama zigaragara nkaho ari inka bishe ndetse bakayibaga.

Umuveterineri w'umugore wambaye igitambaro cy'umukara, itaburiya y'umweru ari gukingira inka. Ari kuzitera inshinge aziha umuti ni inka z'ibihogo nyinshi.

Inka z'ibihogo, abaveterineri bari kuzikingira, abaveterineri batatu, bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'umwe w'umugore wambaye itaburiya y'umweru.

Inka z'inyambo ziteze amahembe, zifite ibara ry'ibihogo, hari abantu benshi barimo abantu babiri bambaye amataburiya y'imyeru.

Abaveterineri babiri umwe wambaye itaburiya y'ubururu undi wambaye itaburiya ijya gusa icyatsi, bambaye ubupfukamunwa bose ndetse n'ingofero, bambaye n'uturindantoki, umwe afite umukasi hari imiti ari kugerageza.

Inka nziza y'ibara ry'ibihogo ifite amahembe maremare iri ahantu mu kibaya mu bwatsi bwiza irikurisha, inyuma yayo hari umurima w'ibigori ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umuveterineri w'umumama wambaye itaburiya y'umweru, igitambaro cy'umukara ndetse na ga z'ubururu afite ikintu ari gutunganyirizamo umuti agiye gutera inka.

Inyamaswa z'ishyamba zitandukanye ziganjemo: inzovu, intare, ingwe, imvubu ndetse n'izindi. Zihagaze ahantu hamwe.

Aha turahabona inyamaswa zitwa ingagi, ni inyamaswa enye ziri kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo, ingagi zinjiza amadovize.

Inyamaswa ebyiri z'inkazi arizo intare, ziri kumwe ziri ahantu ziri kuganira, ubona yuko zishimiranye wagira ngo imwe ni umwana w'iyindi.

Inyamaswa y'inkazi yitwa ingwe iryamye ku giti ni inyamaswa ubona y'uko ifite umujinya, ifite amabara yiganjemo ay'umukara ndetse n'ibihogo.

Inyamanswa z'inkazi zibera mu ishyamba ndetse ziboneka muri parike ziri mu mazi aho zaje koga ndetse no kunywa amazi, izo nyamanswa zikaba zitwa inzovu.

Aha turahabona inyamaswa eshatu z'inyagasozi zitwa ingwe, zifite amabara yiganjemo umweru ndetse n'umukara.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zigendera hejuru y'ibiti zitwa inkende, ziri ahantu hamwe ubona yuko zimeze nk'umuryango, aho ari umugore n'umugabo ndetse n'umwana.

Inyamaswa y'ishyamba y'inkazi yitwa ingwe, ihagaze iri kwitegereza ikintu imbere yayo, ifite amabara yiganjemo umweru ndetse n'ibihogo.